Umurima urimo ibihingwa bitandukanye, urimo umugabo ubyibushye, wambaye bote ziri mu ibara ry'umukara ndetse yambaye imyenda igizwe n'igisarubeti kiri mu ibara ry'umweru, kandi yambaye ga ziri mu ibara ry'ubururu. Afashe ipompo iri mu ibara ry'umuhondo ndetse ari gutera umuti.

Umusore wambaye umupira w'umutuku ahetse ipombo iri mu ibara ry'umuhondo ndetse yambaye ikoboye, ari kuhira ibihingwa biri mu butaka bitari byakura, imbere ye hari ibiti by'intusi ndetse n'igishanga kirimo ibihingwa bitandukanye.

Umurima uteme ibihingwa urimo umugabo wambaye amashashi ari mu ibara ry'umweru ndetse na ga mu ntoki ziri mu ibara ry'umuhondo, ahetse ipombo riri mu ibara ry'icyatsi ryifashishwa mu gucucira amazi mu bihingwa.

Umugabo w'umwirabura wambaye umupira, ndetse ahetse ipompo mu mugongo, kandi yambaye ipantaro ari gutera umuti ibihingwa biri mu umurima munini. Gutera umuti n'ingirakamaro kuko bituma ibihingwa bikura neza bikabirinda indwara.

Umurima munini urimo ibihingwa harimo umugabo w'umwirabura wambaye ishati ndetse n'ipantaro ahetse ipompo mu mugongo ari kuyikoresha atera umuti ibihingwa, gufata neza ibihingwa ni ingirakamaro kuko bivamo ibiribwa bidutunga umunsi ku munsi.

Ibyuzi byinshi byororerwamo amafi, hagati yabyo hateye ibyatsi ,kimwe muri byo imbere yacyo hari umugabo wunamye, wambaye umupira urimo amabara atandukanye ,higanjemo iry'icyatsi ndetse yambaye bote zirimo ibara ry'umuhondo.

Ikiyaga kigizwe n'amazi menshi cyane kirimo ubwato butoya burimo abagabo babiri umwe muri bo ari kugashya, undi ari kuroba akoresheje indobani. Imbere gato hari agashyamba karimo ibiti bifite ibibabi by'icyatsi bitoshye.

Ikibuga kigizwe n'ibyatsi byinshi imbere yacyo hari abantu batatu, harimo umugore umwe ndetse n'abagabo babiri umugore yambaye umupira w'umukara ndetse n'ijipo y'igitenge imbere ye hari ibyuzi by'amafi bigizwe n'amazi.

Icyuzi kinini kigizwe n'amazi mabi, iruhande rwacyo hari umuhanda w'igitaka ndetse n'umurima urimo ibyatsi byinshi. Imbere cyane, hari umusozi muremure uriho ishyamba ry'inzitane rigizwe n'ibiti birebire ndetse hejuru yaryo hari ikirere kinini kigizwe n'amabara arimo ubururu ndetse n'umweru.

Uruzi runini rugizwe n'amazi menshi, rurimo abagabo bari kuroba, umwe muri bo yambaye ingofero irimo ibara ry'ubururu, umupira ndetse n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari umusore wambaye ubusa hejuru ndetse yambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Ikiyaga kinini kigizwe n'amazi menshi kirimo umugabo wambaye ikote ry'umweru, iruhande rwe hari ubwato buto bukozwe mu mbaho, imbere yabo hari imisozi minini igizwe n'ibiti byinshi, ni byiza kubungabunga ibiyaga kuko bivamo amafi.

Umugezi munini utemba, urimo amazi, iruhande rwawo hari agahandada gato karimo abagabo bane, umwe muri bo yambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto. Iruhande rwe hari mugenzi we wambaye ishati y'umweru, ipantaro ndetse n'inkweto.

Ikiyaga kigizwe n'amazi menshi kirimo amato akozwe mu mbaho atandukanye, arimo abantu harimo ubwato butwawe n'umumama wambaye ingofero iri mu ibara ry'ubururu isengeri y'umukara ndetse akenyeye igitenge, inyuma ye hari inkweto za badaboda ziri mu ibara ry'ubururu ndetse zifite uturongo tw'umweru hejuru.

Icyuzi kinini kirimo ibyatsi kirimo amazi menshi ndetse kirimo abagabo bari kuroba, umwe muri bo yambaye umupira w'umutuku, iruhande rwe hari uwambaye umupira ugizwe n'amabara atandukanye higanjemo ay'umweru n'ubururu ndetse harimo umugabo wambaye ubusa hejuru.

Icyuzi impimbano kinini kirimo amazi yanduye iruhande rwacyo hari akayira karimo umugore witeze igitambaro cy'uburura mu mutwe, imbere ye gato hari umugabo wambaye ingofero mu mutwe iri mu ibara ry'umweru, imbere ye nanone hari abagabo batanu.

Icyuzi kinini gikorerwamo bworozi bw'amafi kirimo umugore n'umugabo, umugore yambaye agapfukamunwa kandi ahetse igikapu, hirya ye hari umugabo wambaye agapfukamunwa ishati ndetse afite ishashi irimo amazi n'amafi mu ntoki.

Akazu gato gasakajwe amabati, inyuma yako hari ibyuzi bitandukanye birimo amazi menshi, byifashishwa mu bworozi bw'amafi ndetse hagati yabyo hari ibyatsi byinshi. Inyuma yabyo, hari imisozi myinshi igizwe n'amashyamba menshi ndetse agizwe n'ibiti bitandukanye.

Umusozi munini ugizwe n'imirimo itandukanye iteyeho ibihingwa, harimo umurima uteyeho icyayi, urimo abantu benshi bari gusoroma ndetse hari umugore ukenyeye igitambaro mu mutwe ndetse ufite igitebo inyuma ari gusoroma icyayi.

Umurima urimo igihingwa ngengabukungu k'icyayi urimo abantu benshi bari gusoroma amababi harimo umugabo wambaye ingofero y'umutuku imbere ye hari umusore wambaye isaha ku kuboko, ndetse n'ingofero ari gusoroma icyayi ashyira mu gitebo.

Igihingwa ngengabukungu cy'ikawa giteye ku giti gifite amashami menshi ariho imbuto zitandukanye higanjemo izirimo ibara ry'icyatsi ndetse n'umutuku, igihingwa cy'ikawa n'ingirakamaro kuko gitanga amafaranga mu baturage.

Ikibuga kirimo ibyatsi, kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse kirimo abantu bari gutunganya umusaruro w'ikawa, harimo umugabo wunamye, wambaye umupira w'umukara, imbere ye hari umugabo upfukamye, wambaye umupira w'umutuku ndetse afite umufuka uri mu ibara ry'umweru.

Umurima uhinzemo igihingwa ngengabukungu k'ikawa, urimo igiti kiriho utubuto dutandukanye turi mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'umutuku. Imbere yacyo hari umusaza wambaye ingofero ndetse n'ishati iri mu ibara ry'ubururu.

Umurima munini uteyemo igihingwa ngengabukungu cy'icyayi, urimo abagore babiri bari gusarura icyayi, harimo umugore umwe wambaye ingofero y'umutuku, umupira ndetse akenyeye igitenge kandi afite igitebo.

Igihingwa ngengabukungu k'ikawa kiriho amababi atandukanye arimo ibara ry'icyatsi ndetse hari utubuto twinshi turimo ibara ry'umutuku, ndetse n'uturi mu ibara ry'icyatsi imbere gato hari ikibuga kinini kigizwe n'ibyatsi.

Umurima munini urimo ibihingwa, urimo abantu batatu abagore babiri ndetse n'umugabo wambaye ingofero agapira k'icyatsi. Inyuma y'uwo murima hari imisozi iriho ibiti bitandukanye.

Umugabo w'umwirabura wambaye ishati igizwe n'amabara y'umweru n'umukara ndetse yambaye ipantaro y'umukara, afashe ku cyapa gifite ubuso bw'umukara cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru, gishyizwe mu ishyamba ririmo ibihingwa bitandukanye higanjemo ibiti.

Umurima munini uhinzemo icyayi, urimo abagore bari gusarara icyayi, umwe muri bo arahagaze akenyera igitenge mu mutwe ndetse ahetse igitebo mu mugongo, inyuma yabo hari ibiti bitandukanye higanjemo ibifite amashami maremare, ndetse hari urusengero runini rwubakishijwe amatafari ahiye.

Icyumba gicururizwamo imiti kirimo imiti itandukanye yiganjemo iri mu macupa ari mu ibara ry'umuhondo, ay'icyatsi, ndetse n'umweru. Ni ngombwa gufata imiti mu gihe twahuye n'uburwayi kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Umugore witeze igitambaro mu mutwe wambaye agapfukamunwa yicaye mu murima uhinzemo inanasi, inyuma ye hari umugore wambaye agapfukawa kari mu ibara ry'umutuku ndetse yambaye igitenge, iruhande gato hicaye umugabo wambaye ingofero n'agapfukamunwa kari mu ibara ry'umutuku ari kwandika.

Umurima munini uhinze urimo abantu babiri umugabo n'umugore bari gutunganya ingemwe z'ibihingwa, umugore yiteze igitambaro mu mutwe ndetse yambaye umupira uri mu ibara ry'umweru kandi akenyeye igitenge, umugabo yambaye ikoti riri mu ibara ry'umutuku.

Umurima uteyemo ibigori bikiri bitoya, urimo umuhinzi w'umumama uri kubagara, ukenyeye igitambaro mu mutwe wambaye ishapule y'ijosi, ndetse yambaye ijipo y'umukara. Inyuma y'umurima hari ibiti b'yintusi birebire.

Umurima munini uririmo rubingo ndetse n'ibigori, harimo umugabo uri kwahira, ufite urubingo mu ntoki wambaye umupira urimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara ndetse yambaye ipantaro irimo ibara ry'ubururu.

Igiti cy'ipapayi kigizwe n'amababi maremare, kiriho amapapayi atandukanye ari mu ibara ry'icyatsi, imbere yayo hari abantu benshi ndetse hari umugabo wambaye agapfukanwa k'umukara, umupira w'umweru, afashe telefone mu ntoki.

Umurima ucyukuwemo ibyobo urimo abahinzi batandukanye, abenshi muri bo bambaye ingofero zirimo ibara ry'umutuku, hagati yabo hari umugabo wambaye umupira ndetse n'ikarita y'akazi mu ijosi ndetse yambaye ipantaro y'umukara.

Ikibuga kirimo ibyatsi byinshi, kirimo abagore babiri, umwe yambaye ijipo igizwe n'amabara atandukanye, higanjemo iry'umutuku ndetse yambaye ishati iri mu ibara ry'umweru ndetse yiteze igitambaro mu mutwe, imbere ye hari umugore ufite isuka, witeze igitambaro kiri mu ibara ry'umweru.

Ikiraro kinini cyubakishijwe ibyuma ndetse gisakawe kirimo inka zitandukanye, imwe muri zo ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, iri gukamwa n'umugabo w'umwirabura wambaye iserubeti iri mu ibara ry'ubururu, ku ruhande hari imbaga nyamwinshi y'abantu batandukanye higanjemo abagore.

Umurima munini urimo abantu bari guhinga, harimo umugabo wambaye ipantaro ya kaki, umupira w'umuhondo ndetse ufashe isuka uri guhinga. Inyuma ye hari umwana muto wambaye agapira karimo ibara ry'ubururu. Hirya gato hari umugore uri guhinga wunamye wambaye ishati yi'gitenge. Inyuma yabo hari igishanga kinini, ndetse inyuma yaho cyane hari umusozi uriho amazu atandukanye.

Umurima urimo ibyatsi byinshi harimo umugabo usutamye wambaye ga ziri mu ibara ry'umukara mu ntoki, ari gutera igiti ndetse yambaye ishati n'ingofero. Iruhande rwe hari umugabo w'umusirikare wambaye impuzankano y'Igisirikare cy'u Rwanda.

Ikibuga kinini kigizwe n'ibyatsi bitoshye kirimo inka nyinshi zigizwe n'ibara ry'umukara ndetse n'umweru zifite amaherena ku matwi arimo ibara ry'umuhondo, inka mu buzima bwa muntu ni ingirakamaro kuko zivamo umukamo w'amata ndetse zigatanga n'ifumbire mu baturage.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye mu kibuga kirimo ibyatsi higanjemo abagore, abagabo, abasore ndetse n'abana. Bamwe muri bo bafite impapuro ziri mu ibara ry'umweru, imbere yabo hari ingurube nyinshi ziri mu kibuga kirimo ibyatsi.

Umusaza wambaye ingofero amarinete ishati ndetse n'ipantaro yambaye ga mu ntoki zirimo ibara ry'umweru, ari gutera igihingwa imbere ye hari umukobwa wunamye wambaye umupira w'icyatsi ipantaro y'umukara imbere yabo hari indabo zikase neza ndetse n'umwana wambaye isaha ku kuboko wambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo.

Umurima munini uhinze, urimo ibyatsi byumye ndetse uteyemo imyumbati, inyuma yawo hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, kirimo inzu nziza ifite amabati ari mu ibara ry'umutuku ndetse isizwe irangi.

Umurima urimo ibyatsi bitandukanye. Urimo: insina zifite amakoma maremare. Iruhande rwazo hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru. Insina mu buzima bwa muntu ni ingirakamaro kuko zivamo ibitoki biribwa n'abantu.

Igishanga kinini cyane, kirimo ibihingwa bitandukanye, higanjemo amateke ndetse n'ibyatsi byinshi, iruhande rwacyo hari ishyamba rigizwe n'ibiti byinshi ndetse n'akazu gatoya kubabakishijwe amatafari ahiye.

Umurima uhinzemo ibigori, inyuma yaho hari amazu atandukanye asakajwe amabati, imbere cyane hari umusozi munini uri amashyamba atandukanye, yiganjemo arimo ibiti bifite amashami maremare. Ni byiza gufata neza ibidukikije kuko biri muri bimwe bikurura imvura ndetse bikaduha umwuka duhumeka.

Umurima munini cyane uteyemosina nyinshi zigizwe n'amakoma menshi, imbere yawo hari umurima uhinze urimo ibihingwa bikiri bitoya. Ni ngombwa gufata neza ubutaka, kuko nibwo soko yo kubona ibiribwa bidutunga umunsi ku uwundi.

Umurima munini utemo ibigori hirya cyane hari umusozi uriho ishyamba rigizwe n'ibiti bitandukanye, hejuru yabyo hari ikirere cyiza kigizwe n'amabara atandukanye, higanjemo iry'umweru. Ni byiza gufata neza ibidukikije kuko bituma tubona umwuka wo guhumeka.

Umurima ugizwe n'ibihingwa bitandukanye urimo ibigori byeze, imbere yabyo hari igiti k'ipapayi kigizwe n'amababi y'icyatsi, imbere yacyo hari insina zifite amakoma menshi ndetse ziriho ibitoki, ibihingwa ni ingirakamaro kuko bituma tubona ibyo kurya.

Umurima munini uhinze hirya yawo hari umurima uteye insina zitandukanye zifite amakoma ari mu ibara ry'icyatsi, imbere yazo hari inzu nini ifite amabati ndetse iruhande rwayo hari igiti gifite amashami maremare.

Umurima munini uteyemo ibihingwa bitandukanye harimo igiti cya avoka ndetse inyuma yacyo hateye insina zitandukanye ndetse hateye ibigori bito, ni byiza gufata neza ibihingwa kuko bituma tubona ibyo kurya bidutunga umunsi ku munsi.

Umugezi utemba, urimo amazi mabi, waguyemo igiti kinini, iruhande rwawo hateye ibyatsi, ndetse n'ibiti bifite amashami maremare. Kunywa amazi mabi, si byiza ku buzima bwa muntu kuko bitera indwara.

Ishyamba ry'inzitane rigizwe n'ibiti bitandukanye bifite amashami maremare, hejuru yaryo hari ikirere kiri mu ibara ry'umweru. Ni byiza neza gufata ibiti kuko ni ibidukikije bidufasha gukurura umwuka duhumeka, ndetse bikavamo n'ibikoresho bitandukanye.

Umusozi wubatsweho ikigo cy'amashuri kigizwe n'ibyumba bitandukanye byubakishijwe amatafari ahiye ndetse bifite amadirishya menshi, iruhande rwacyo hari ibiti byinshi imbere gato hari umusozi uriho ishyamba.

Imisozi miremire igizwe n'amashyamba agizwe n'ibiti bitandukanye higanjemo ibifite amashami maremare, iriho amazu atuwemo n'abantu ndetse hejuru yaryo hari ibihu bigizwe n'ibara ry'umweru.

Ibiti bitemye byinshi, imbere yabyo hari ishyamba rigizwe n'ibiti binini, bifite amashami ndetse imbere yabyo hari umusozi munini uriho ibihingwa bitandukanye, ibiti mu buzima bwa muntu ni ingirakamaro kuko ivamo ibikoresho bitandukanye, harimo imbaho, amakara n'ibindi.

Umuhanda munini w'umukara urimo abantu benshi batwaye amagare, ndetse ukikijwe n'umusozi uriho ibyatsi byinshi ndetse n'insina. Imbere ya wo, hari umusozi munini cyane uriho iminara minini ndetse n'ibiti byinshi.

Ikiyaga kigizwe n'amazi menshi gikikijwe n'ishyamba ririmo ibiti byinshi bitandukanye higanjemo ifite amashami maremare, imbere yacyo hari akagezi gatoya kavamo amazi ajya mu kiyaga.

Abagore batanu bafashe inanasi mu ntoki, umwe muri bo akenyeye igitenge gifite amabara atandukanye higanjemo ubururu ndetse yiteze n'igitambaro kiri mu ibara ry'umutuku mu mutwe, ku ruhande rwabo hari indabo zikaswe neza inyinshi muri zo ziri mu ibara ry'umuhondo.

Umugore uteze igitambaro kirimo ibara ry'umweru mu mutwe, yambaye umupira wi'mbeho w'umuhondo, ndetse akeira igitenge, ari gusoroma amatunda, hirya ye hari ibimera bitandukanye, hari igiti cy'avoka gifite amababi y'icyatsi.

Umurima uhinzemo amasho urimo abahinzi batandukanye higanjemo abagore, urimo umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro, iruhande rwe hari umugore wambaye ishati y'ikoboyi ukenyeye igitenge kigizwe n'amabara atandukanye higanjemo iry'umutuku.

Igiti kinini k'ipapayi gifite amababi ndetse n'amashami maremare kiriho amapapayi menshi atandukanye, amapapayi ni ingenzi mu buzima, kuko yifashishwa mu kwirinda indwara.

Bibigwamo ubushakashatsi ku miti itandukanye kirimo urumuri ndetse kirimo abaganga bambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'amataburaya y'umweru kandi bambaye udupfukamunwa ku ruhande rwabo hari ibihingwa birimwo ibara ry'icyatsi ndetse hejuru yabo hari amatara abiri amurika.

Umurima munini urimo ibyatsi urimo ibiti bya pome bigizwe n'amashami maremare arimo amababi y'icyatsi ndetse n'imbuto za pome zigizwe n'amabara abiri iry'umutuku ndetse n'iry'icyatsi pome ni urubuto rw'ingirakamaro kuko rutuma tugira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye igiserubeti cy'ubururu bwijimye, ndetse na marinete ari gucucira ibigori, inyuma ye hari umugabo wambaye ishati y'umweru, ndetse n'umugabo wambaye igisarubeti cy'umukara na bote, uri gukoresha imashini ihinga mu mirimo y'ubuhinzi.

Umugore ufite ibisuko by'umukara ahagaze mu murima yambaye ishapule mu ijosi ndetse n'umupira, akenyeye umwenda, ari kuhira ibihingwa akoresheje igikoresho cya rozwari, iruhande rwe hari ibiti byinshi bifite amashami ndetse n'amababi ari mu ibara ry'icyatsi.

Umurima uhinzemo amashu, urimo umugore w'umwirabura ,urugucucira, wambaye ishati ndetse n'ijipo. Inyuma ye hari ishyamba rinini ,rigizwe n'ibiti bitandukanye . Ni byiza kwita ku bihingwa kuko bivamo ibiribwa by'ejo hazaza.

Icyumba kirimo urumuri, kirimo umugabo wambaye ishati, iruhande rwe hari icyapa gifite ubuso bw'umweru, ndetse cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ndetse n'ubururu. Kiriho kandi igishushanyo cy'ikiyaga, kiri hagati y'imisozi, iriho ibiti bitandukanye.

Umurima munini urimo ibihingwa urimo umugore ufite imisatsi y'umukara, ukenyeye igitenge ndetse yambaye ishati igizwe n'amabara atandukanye higanjemo iry'umutuku. Afite igikoresho kifashishwa mu gucucira amazi ku bihingwa, inyuma ye hari umurima munini urimo ubwatsi bw'inka.

Ibyobo bine byifashishwa mu kubika amazi, birimo amazi yanduye, kubika amazi ni ingenzi kuko bidufasha kubona amazi tuzakoresha mu gihe cyo kuhira imyaka, igihe haba harateye izuba ryinshi.

Ikiraro kigizwe n'utwuma turimo mu mabara y'umutuku n'umweru, kiriho abagabo babiri umwe muri bo yambaye ipantaro y'umukara undi yambaye ijire, amarinete, ipantaro ndetse n'inkweto, imbere yabo hari umugezi utemba ndetse n'umusozi uriho ibiti bitandukanye.

Umurima munini cyane uteyemo ibihingwa bitandukanye ndetse harimo akamashini gatoya kifashishwa mu kuhira ibihingwa, iruhande rwawo hari umusozi mugufi uriho ibiti byinshi bigizwe n'amababi ndetse n'amashami maremare.

Umurima munini uteyemo ibihingwa bitandukanye urimo umukecuru uri gucucira ibihingwa witeze igitambaro mu mutwe, inyuma ye hari igiti kinini kigizwe n'amashami maremare ndetse ku ruhande hari insina nyinshi zifite amakoma ari mu ibara ry'icyatsi.

Umurima munini uhinze uteyemo ibigori hagati yawo harimo itiyo ry'amazi rirerire. Amazi mu buzima bwa muntu ni ingenzi, kuko atuma tubaho neza kandi tukagira ubuzima bwiza.

Umurima munini cyane urimo ibihingwa bitoshye, urimo umugore uri gutera umuti wambaye agapfukamunwa, ingofero, ndetse yambaye umupira urimo ibara ry'umutuku, ahetse ipompo ryifashishwa mu gutera umuti ku bihingwa, ndetse yambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

UUmurima munini urimo ibihingwa bikiri bito, harimo umuntu uri kuhira akoresheje imashini yabugenewe, wambaye imyenda y'umukara ndetse n'ingofero. Iruhande rwe hateye ibiti byinshi.

Ikiyaga kigizwe n'amazi menshi gikikijwe n'imisozi itandukanye iriho ibiti byinshi ndetse n'amazu, ni byiza gufata ibiyaga neza kuko bikurura ba mukerarugendo kandi biduha amazi ndetse bikavamo n'amafi afatwa nk'ibiribwa.

Umusozi munini urimo ibihingwa bitandukanye ndetse uriho ishyamba rigizwe n'ibiti bitandukanye bifite amashami maremare imbere cyane hari imisozi myinshi ndetse n'ikiyaga kigizwe n'amazi menshi, hejuru yacyo hari ikirere kigizwe n'amabara abiri umweru ndetse n'ubururu.

Imisozi myiza igizwe n'ibiti birebire ndetse n'ibihingwa bitandukanye, imisozi ni myiza kuko igira ibiti bidufasha gukurura imvura bityo tukagira ubuzima bwiza buzira umuze butagira indwara.

Umurima munini utemo ibigori, imbere yawo hari imodoka yifashishwa mu kwikorera imizigo iri mu ibara ry'umweru, imbere yayo hari inzu zitandukanye imwe muri zo isizezwe irangi ry'umuhondo, inyuma gato hari umusozi munini uriho amageto atuyemo abantu ndetse uriho ibiti byinshi.

Inka nziza igizwe n'ibara ry'umukara ndetse n'iry'umweru ku maguru y'inyuma, iruhande rwayo hari umusore w'umwirabura wambaye ingofero y'umutuku, ishati ndetse n'ipantaro y'umukara, afite igikoresho cyifashishwa mu kubika amata.

Umurima munini urimo ibyatsi ndetse n'inka zitandukanye, higanjemo iziri mu ibara ry'umutuku, inyuma yazo hari igiti kinini gifite amashami maremare, afite amababi arimo ibara ry'icyatsi, inyuma yacyo hari umuntu wambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku.

Ikiraro cyororerwamo inka, cyubakishijwe imbaho hasi, kigizwe n'inkingi zisakajwe amabati, kirimo inka nyinshi zitandukanye, inka ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu kuko zivamo inyama ndetse zigatanga n'amata.

Igikuyu kigizwe n'ibyatsi byinshi kirimo inka zitandukanye ziganjemo iziri mu ibara ry'umutuku, inyuma yazo hari ibiti bitandukanye bifite amashami maremare; ni byiza korora kuko bituma tubona amata ndetse tukabona n'inyama.

Inzu nini yifashishwa mu korora inkoko yubakishijwe imbaho, irimo inkoko nyinshi ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugaburira inkoko. I.rimo kandi umugabo wambaye igisarubati kiri mu ibara ry'icyatsi.

Inka z'inyambo, zifite amahembe maremare, ziri ahantu hazitijwe ibyuma birimo ibara ry'umukara, inyuma yazo hari abantu batandukanye, higanjemo abagore. Hari umugore wambaye taburiya iri mu ibara ry'umweru ndetse na bote.

Ahantu hasakaye hubakishijwe ibiti hari umukobwa wambaye isengeri iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro, ari gucucira ingemwe z'ibihingwa, inyuma ye hari ikigega cyifashishwa mu kubika amazi kiri mu ibara ry'umukara.

Ikiraro kinini cyubakishijwe ibiti, kirimo ibijerekani bikaseho biri mu ibara ry'umuhondo, imbere yabyo hari abantu babiri bambaye impuzankano igizwe n'amataburiya y'umweru ndetse bambaye amapantaro.

Ikibuga kigizwe n'ibyatsi byinshi imbere yacyo hari akayira gato kazitijwe ibiti by'umukara karimo, inka zifite amahembe maremare imbere yako hari umugabo wambaye itaburiya irimo ibara ry'umweru bote ndetse n'ipantaro.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo urumuri ndetse kirimo umuganga w'umusore, wambaye impuzankano y'abaganga, igizwe n'itaburiya y'umweru ndetse yambaye ga ziri mu ibabara ry'ubururu, iruhande rwe hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu kuvura.

Ikibuga kinini kirimo ibyatsi kirimo abaveterineri batatu, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hari umuganga wambaye impuzankano y'abaganga igizwe n'itaburiya irimu ibara ry'umweru. Imbere yaho hari ibyuma byubatswe neza ndetse imbere yabyo harimo inka zifite amahembe maremare.

akayira gato kazitijwe ibyuma biri mu ibara ry'umukara, karimo inka iri mu ibara ry'umutuku, inyuma yayo hari abantu benshi higanjemo abambaye ibisarubeti by'ubururu ndetse hari abaveterineri babiri uw'umugore n'umugabo, bambaye impuzankano igizwe n'itaburiya iri mu ibara ry'umweru.

Pariki igizwe n'ibimera bitandukanye, higanjemo ibiti bigufi bifite amababi y'icyatsi, harimo inzovu ndetse n'imodoka nini irimo ba mukerarugendo, harimo abazungu ndetse n'abirabura.

Ishyamba rigizwe n'ibimera bitandukanye higanjemo ibifite amababi atoshye, ririmo inyamaswa zitandukanye z'agasozi, hari imparage ebyiri zifite amabara y'umweru n'umukara, inyuma yazo hari imparage iri kurisha ndetse n'impara.

Igiti kinini cyumye, kiriho amashami maremare, kiriho inyamaswa y'agasozi, ifite amabara atandukanye, higanjemo iry'umweru n'umukara, inyuma yayo hari ibiti biteye bifite amashami maremare, ariho ibibabi by'icyatsi.